Abagabo n'abagore bicaye mu inzu ikorerwamo inama, imbere yabo hari inyandiko ndetse na za mudasobwa, hateretse kandi n'amazi yo kunywa mu tumeza tubateretse imbere.

Abagabo bicaye mu nzu, umwe wambaye ikoti yicaye mu ntebe yumukara yegamirwa. Inyuma ye hari idirishya ryinjiza urumuri nigikuta cy'umweru bicaye bari kuganira ku ngingo.

Mu nzu harimo abantu benshi bicaye ku ntebe zitwikirijwe udutambaro tw'umweru ndetse n'ameza arihoho ibitambaro by'umweru, hari umugabo wirabura uhagaze imbere y'abantu wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi ufite ikora ari kubaganiriza.

Umugore usa n'inzobe wambaye ikanzu ndende n'isaha ku kaboko ufite imisatsi miremire y'umukara ahagaze mu cyumba, impande ye hari agacupa k'amazi kabonerana gafite umufuniko usa n'ubururu inyuma ye hari ikibaho cyanditsemo ibintu byinshi.

Inzu irimo abagabo bose bambaye amakoti bicaye ku ntebe zegamirwa zisa n'umukara, imbere yabo hicaye umugore usa n'inzobe, ku meza bicayeho hari impapuro ndetse n'amazi yo kunywa.

Mu nzu ifite icyumba kicawemo n'abantu bari mu nama, barimo abagabo n'abagore, ndetse harimo Abazungu ndetse n'Abirabura. Bose bambaye utuntu mu gatuza dufite imigozi y'ubururu, imbere hari agapapuro kariho imyirondoro yabo, baricaye bose bari kureba imbere.

Abantu bicaye mucyumba cy'intama bambaye udupira tw'amaboko magufi dusa n'umweru, bicaye ku ntebe zisa n'umutuku imbere yabo yicaye abantu batatu bari kubaganiriza.

Icyumba giteraniwemo n'abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'umukara zegamirwa bose bari kureba imbere, hari utumeza tubari imbere duteretseho amazi ndetse n'impapuro zo kwandikaho.

Mu nzu yicayemo abagabo n'abagore bari mu nama, bafite amakaye yo kwandikaho, ndetse na za mudasobwa bari gusomeramo ibintu, imbere yabo ku meza hateretse amazi yo kunywa.

Mu nzu yicawemo n'abantu barimo ab'urubyiruko ndetse n'abagabo bicaye ku ntebe zisa n'umweru, imbere yabo hahagaze umugore n'umugabo bari kubigisha ndetse bari kubereka ibintu.

Icyumba giteraniwemo n'abantu benshi, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yazo hateye utumeza hateretseho n'amazi yo kunywa, bafite aho bandika ni ukuvuga amakaye bandikamo n'amakaramu . Hose harimo n'abahagaze ndetse n'abicaye.

Mu nzu hateraniyemo abagabo benshi bicaye hakaba hari umugabo ufite indangururamajwi wirabura ari kuyivugiramo, imbere ye hari amazi yo kunywa ari mu icupa ry'ikirahure ndetse imbere ye hateretse akapa gafite amabara y'ubururu n'umweru kanditseho ibintu.

Abantu bicaye mu ihema ritatsemo ibitambaro by'amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, inyuma yabo hamanitse ibirango byanditsemo n'amagambo ya Repubulika y'u Rwanda, umujyi wa Kigali, akarere ka kicukiro, umurenge wa kagarama, abagore babiri bateye igipfunsi hejuru.

Abantu barimo urubyiruko rw'abasore n'inkumi ndetse n'abagabo bari kwifotoza, bamwe barahagaze, abandi b'imbere baricaye ndetse baranasutamye.

Umugore n'abagabo bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ariho amakayi ndetse n'ahandi ho kwandika harimo mudasobwa, imbere yabo kandi hari amazi ari mu gacupa kabonerana gapfundikije umupfundikizo w'ubururu bweruye.

Amahema y'umweru atatu ashinze mu byatsi yiciwemo n'abantu benshi, imbere yabo hicaye abana bato, amahema bayashinga kugira ngo abantu baze kwicara hanze ku zuba ryinshi ritabica cyangwa imvura ntibanyagire igihe bashatse gukorera inama hanze.

Mu nzu hicaramo n'abantu benshi barimo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'umukara zizengurutse ameza, bicaye barebana bafite indangururamajwi imbere yabo.

Abantu bicaye hamwe harimo abagore bazamuye igipfunsi ndetse n'abandi babicaye imbere harimo umupolisi wicaye mu ntebe y'umukara yegamirwa na we wa bazamuye igipfulisi, akaba yambaye ipantaro ndetse n'indi mpuzankano ya polisi, imbere ye hahagaze umugabo uri kuvugira mu ndangururamajwi uri kureba abaturage.

Mu nzu yicawemo n'abantu benshi, barimo abagore n'abagabo, ku ntebe z'umukara zegamirwa, bose bari kureba imbere, bafite amakaramo n'impapuro byo kwandikaho ibintu by'ingenzi.

Umugabo n'abagore babiri bicaye ku ntebe zegamirwa zifite imisego y' yumukara imbere imbere yaho hari ameza afite irangi ry'umutuku ateretseho, indangururamajwi umugabo ari kuvugira mu ndangururamajwi.

Inzu iteraniyemo abantu bishimye bari kuririmba, bamwe bari gukoma amashyi, bicaye ku ntebe zisa n'umutuku n'ameza atwikirijwe ibitambaro bisa n'umuhondo, hejuru hariho amazi yo kunywa.

Icyumba k'inama kiri kwakwamo n'amatara asa n'umweruru, abantu bicaye ku ntebe zegamirwa zisa n'umukara ku buryo barebana, imbere yabo hari ameza ateretseho imitobe ndetse n'amazi.

Abagabo n'abagore bateraniye mu nzu bicaye ku meza bamwe bafite za mudasobwa imbere yabo n'umugore wambaye ikanzu y'umutuku, ari gukoresha mudasobwa abandi baricaye bari kureba imbere.

Icyumba cyicayemo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe zifite ameza imbere akoze mu biti, ateretseho ibikoresho nk'amakayi ndetse n'udutabo two kwandikamo, hejuru kandi hari amazi yo kunywa afite imifuniko isa n'ubururu.

Abagore n'abagabo bicaye mu nzu ikorerwamo inama, inyuma yabo hari ibishushanyo byanditsemo n'amagambo Kigali yacu Kigali ikeye, ni ukuvuga aba ngaba ni abakozi bari muri komite y'umujyi wa Kigali, imbere yabo hari indangururamajwi.

Abagore n'abagabo bicaye mu cyumba gikorerwamo inama, gifite intebe z'umukara zegamirwa, imbere yabo hari indangururamajwi.

Icyumba k'inama kicawemo n'abagabo n'abagore mu buryo buzengurutse bose barebana, bicaye ku ntebe z'umukara bafite indangururamajwi imbere yabo, ndetse ku meza hateretseho amazi kuri buri muntu.

Abantu bicaye imbere inyuma yabo hari igipapuro kinini cyometse ku rukuta cyanditseho amagambo, aba bantu bambaye utuntu mu gatuza tubaranga bari gutanga ikiganiro runaka ndetse iruhande rwabo hari n'udutebe duto duteretseho amazi yo kunywa.

Abagabo n'abagore bicaye mu cyumba cy'inama gifite idirishya rirerire rifunze n'ibirahure ritariho igitambaro ariko riri kwinjiza urumuri mu nzu, bicaye ku ntebe z'umukara ku meza azengurutse ku buryo bicara barebana n'abari mu cyerekezo cyo ruguru.

Icyumba cy'inama cyicawemo n'abagabo n'abagore imbere yabo hari ameza ariho indangururamajwi anateretseho ibikombe byo kunyweramo ndetse n'amazi ari mu gacupa kabonerana bari kuganira ku bintu runaka.

Abagore n'abagabo bicaye mu cyumba ku dutebe dufite akameza gato ko kwandikiraho bari kwandika bakoresheje ikaramu n'urupapuro bari mu ibazwa.

Umugore ufite indangururamajwi arikuyivugiramo, yambaye imyambaro igizwe n'ipantaro y'umukara ndetse n'ijire ndende isa n'umukara, inyuma ye ndetse n'impande ye hubatswe amahema asa n'umweru amanitseho udutambaro tw'ibirango by'idarapo ry'igihugu rigizwe n'ibara ry'ubururu, umuhondo, ndetse icyatsi.

Abagabo n'abagore bicaye hamwe mu nzu ifite inkuta zisize amarangi y'umweru, inyuma hari umugabo wambaye ishati y'umweru wahagurutse ari kuvugira mu ndangururamajwi.

Inzu ifite icyumba gikorerwamo inama, yicawemo n'abagore babiri, imbere yabo hari ameza ashasheho igitambaro cy'umweru, harambitse telefoni ku meza, ndetse hari n'agacupa k'amazi.

Abagore n'abagabo bicaye ku ntebe zegamirwa zifite imisego zisa n'umukara, imbere yabo hari ameza harimo amakaye n'amakaramu yo kwandikaho ndetse hateretseho n'amazi yo kunywa, ahandi hari na za mudasobwa.

Abagabo bicaye mu cyumba cy'inama inyuma yabo ari ibirango bya rura nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe gushyiraho amategeko agenga ibigo bitandukanye by'ikoranabuhanga ndetse n'imikoreshereze y'ibikoresho by'ikoranabuhanga, abagabo imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi ari hejuru y'akameza.

Mu nzu ikorerwamo na kompanyi ikora ibintu by'ubwubatsi, hicayemo umugore wambaye ijire isa n'icyatsi ufite imisatsi isutse ifungiye inyuma, hari agacupa karimo amazi yo kunywa gateretse ku meza imbere ye ku nkuta z'iyo nzu harimo ibishushanyo mbonera by'imijyi.

Abantu bicaye mu cyumba ku ntebe zisa n'umukara zegamirwa, kumeza hateretse mudasobwa ndetse n'isakoshi y'umugore bicaye mo.

Abantu bicaye mu cyumba k'inama irimo ameza azengurutse bicaye barebana, imbere yabo hateretse uducupa tubonerana turimo amazi yo kunywa, hari na za mudasobwa zo kwandikamo.

Abantu bicaye mu cyumba k'inama, barimo abagabo n'abagore, icyumba kiri kwakamo amatara y'umweru, bari kureba imbere yabo, kandi bose bafite indangururamajwi ku tumeza bicayeho.

Inzu ifite inkuta z'imbere zisize amarangi y'umweru, hicayemo abantu benshi biganjemo urubyiruko rwambaye imipira y'ubururu rwicaye ku dutebe twegamirwa dusa n'umweru imbere yabo hagaze umugore ufite indangururamajwi wambaye ikoti ry'umweru n'imisatsi y'umukara karemano ari kubabwira ibintu.

Abagabo n'abagore bahagaze bari kwifotoreza mu cyumba gikorerwamo inama, kirimo ameza azengurutswe n'udutebe twegamirwa, ameza ateretseho amacupa y'ibirahure arimo amazi yo kunywa.

Mu nzu ifite ibikuta bitakishije ibitambaro by'amabara y'ubururu ndetse n'umuhondo hicayemo abantu barimo abagore n'abagabo bicaye ku buryo bw'ameza azengurutse iyo nzu, hagati yabo hahagaze umugabo inyuma ye hari ikibaho.

Mu nzu hicayemo abagabo babiri ndetse n'umugore umwe wambaye amadarubindi, umugabo wo hagati yicaye hagati y'umugore ndetse n'umugabo ari kuvugira mu ndangururamajwi yambaye akantu mu gatuza gafite umugozi w'ubururu kariho ibirango bye ni ukuvuga umwirondoro we imbere yabo hari agacupa k'amazi.

Mu nzu hicayemo abantu benshi biganjemo abagore n'abagabo bari mu kigero cy'urubyiruko hari umugabo uhagaze wambaye ikoti ry'ubururu n'ishati ufite indangururamajwi mu ntoki ari kuyivugiramo anamwenyura.

Mu cyumba cy'inama hicawemo n'abagabo n'abagore, mu ntebe z'umukara zegamirwa, ku madirishya ari mu iyo nzu hariho amarido ndetse imbere yabo ku meza hari imitobe ndetse n'amazi yo kunywa.

Umunara muremure ufite ibikoresho bikoreshwa mu itumanaho ry'amatelefoni, bimeze nk'amatara yo mu nzu biba bisa n'umweru ndetse uwo munara wifiteho imigozi ifata hasi kugira ngo iwukomeze udatwarwa n'umuyaga.

Urupapuro nkoranabuhanga rw'irembo. Irembo ni urubuga rukoreshwa mu kwaka serivise zitandukanye muri leta, harimo serivise zo kwiyandikisha no kumenyekanisha imisoro, kwiyandikisha gukora uruhushya rw'ibinyabiziga ndetse n'ibindi byinshi.

Impande y'inzira nyabagendwa mu kayira kahariwe kugenderwamo n'abagendesha amaguru, haragendwamo n'umwana wambaye impuzankano y'ishuri, afashe akaboko undi mwana mutoya na we wambaye impuzankano y'ishuri bavuye ku ishuri.

Abagabo bambaye udupfukamunwa ndetse n'umugore umwe bose bafite mudasobwa bahagaze hanze bazifite mu ntoki bari kuzikoresha, bamwe bari kwandika abandi bari gusomamo ibintu inyuma yabo hari inyubako.

Akazu kubakishije ibyuma kicayemo umugore ufite imisatsi y'umukara miremire, akazu kariho ibirango bya Emutiyene ndetse n'ibirango bya banke ya Kesibi, aka kazu gakorerwamo n'umukozi ufasha abakiriya bashaka gukoresha serivisi z'ibi bigo.

Umunara ukozwe n'ibyuma bishinze Ku butaka, bisa n'umweru ndetse n'umutuku bisobekeranye, ukaba ufite uruzitiro rukozwe n'ibyuma.

Abagabo ndetse n'umugore bari hanze bose bari gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, abagabo bari kurebera muri terefone umugore ari gukoresha mudasobwa; umugabo umwe afite ikaye mu ntoki.

Umunara ufite ibikoresho bikoreshwa mw'itumanaho ry'amatelefoni, bisa n'umweru, bimeze nk'amatara yo munzu ndetse n'ibindi bisa n'umweru. Bimeze nk'ingoma cyangwa isafuriya umunara ukoreshejwe n'ibyuma bisa n'icyatsi, bishinze ku butaka bisobekeranye.

Icyumba cyicawemo n'abantu bari gukoresha za mudasobwa ziteretse ku tumeza tw'ibiti, hahagazemo umugabo ari gukoresha mudasobwa ndetse abandi baricaye.

Icyapa kiranga ahatangirwa serivisi z'irembo ndetse ahafatirwa amafoto kandi hagatangirwa serivisi za Rwanda reveni, ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro.

Umunara ugizwe n'ibyuma bishinze ku butaka biri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku ufite ibikoresho bikoreshwa mu kwakira ndetse no gusakaza amarezo y'itumanaho rikoreshwa mu kuvuganira kuri za telefoni bimeze nk'ingoma ndetse n'ibindi bimeze nk'amatara acanwa mu nzu.

Icyumba cy'ishuri cyicawemo n'abana, ku dutebe dukoze mu biti ndetse n'icyuma, harimo ameza akoze mu biti, hejuru y'aho hari za mudasobwa abanyeshuri bari kuzikoresha.

Iruhande rw'icyapa cyanditseho eyateri mu magambo y'umweru, mu buso bw'umutuku, hari uruzitiro rw'ibyuma n'imbere hateyemo umunara muremure cyane w'ibyuma bisobekeranye, hejuru hari ibyuma bikoreshwa mu gusakaza rezo z'amaterefoni.

Inzu ifite igisenge gikozwe n'amabati atukura ifite amakositara yinjiza umwuka mu nzu, ku nkuta hariho ibyapa bisa n'ubururu ndetse n'ibisa n'umutuku n'ibisa n'umuhondo bigaragaza ko aho hantu hakorerwa cyangwa hatangirwa serivisi z'ubucuruzi.

Umunara ukozwe n'ibyuma bishinze ku butaka bisa n'umweru ndetse n'umutuku, umanitseho ibikoresho bimeze nk'ingoma ndetse n'amatara yo mu nzu bisa n'umweru bikoreshwa mu itumanaho ry'amatelefoni.

Umugabo ufite terefone mu ntoki ari kuyivugiraho, yambaye ishati y'amaboko magufi n'ipantaro y'umukara, sharijeri ifite umugozi w'umweru ndetse n'igice gicomekwa mu mashanyarazi gisa n'umukara.

Icyerekezo makumyabiri mirongo itanu, iki ni icyerekezo cya gahunda y'iterambere u Rwanda rwihaye aho rufite gukoramo ibikorwa by'iterambere nko kubaka ibikorwa remezo by'imihanda amavuriro, amashuri ndetse n'ibindi bifite aho bihuriye n'ishusho rwifuza kuzaba rusa mu mwaka wa bibiri na mirongo itanu.

Umunara wubakishije ibyuma bishinze ku butaka; hejuru hariho ibikoresho bikoreshwa mu itumanaho ry'amatelefone; bimwe bimeze nk'ingoma, ibindi bimeze nk'amatara acana mu nzu.

Inzu ifite urukuta rushushanyijeho amabuye harimo n'utubara tw'icyatsi, hejuru hari icyapa cyanditseho irembo, iyi nzu ikorerwamo ibijyanye na serivisi z'irembo, serivisi z'irembo harimo ibyemezo bigaragaza ko umuntu ariho, ibyemezo by'amavuko ndetse n'izindi serivisi za leta.

Utwara abagenzi akoresheje ipikipiki mu buryo bw'umwuga ahagaze ahantu hamwe ku ipikipiki nayo ihagaze, ingofero ebyiri zikoreshwa n'abicaye ku ipikipiki ziyimanitseho.

Inzu y'amagorofa hejuru ku gisenge hamanitseho ibikoresho bikoreshwa mu itumanaho ry'amatelefoni, bimeze nk'amatara yo mu nzu, bifite uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye, harimo n'utwuma duhagaze.

Umunara wubakishije ibyuma bisobekeranye, ushinze ku butaka muremure, hejuru hariho ibyuma bikoreshwa mu itumanaho ry'amatelefoni, hasi hubatse inzu ifite ibikuta bisize amarangi y'umweru.

Uburyo butandukanye bwo gukoresha sisitemu y'ikoranabuhanga y ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, ni uburyo koranabuhanga bukoreshwa mu kwishyura ndetse no kureba imisoro umuntu asigayemo.

Umunara wubakishije ibyuma bisobekeranye bishinze ku butaka uriho insinga z'amashanyarazi ziwumanitse hejuru, ziri kujya mu duce dutandukanye.

Umunara ushinze ku butaka wubakishije ibyuma bisobekeranye unyuzwaho insinga z'amashanyarazi zisa n'umukara zijyanwa mu gace runaka k'ahatuye amazu y'abantu.

Ipironi ryagenewe gushyirwaho ibyuma bitanga umuriro w'amashanyarazi, rihagaze hanze hasi kubutaka impande yawo harimo imifuka iteyemo uturarabyo dutegereje kuzakura.

Inzu ifite igisenge gisakaje amategura hariho ibyuma bikoreshwa mu gushyushya amazi akoreshwa mu koga mu byumba biba byaragenewe koga mu nzu.

Umunara ushinze ku butaka ufite ibyuma bisobekeranye, hejuru hamanitseho insinga z'amashanyarazi hirya yaho hari undi munara nawo unyurwaho n'insinga z'amashanyarazi, imbere yawo hari ipoto nayo ishinzeho hasi ku butaka itwaye insinga z'amashanyarazi.

Mu rugo rwubatsemo inzu y'amatafari ahiye, ifite imbuga yubatsemo urugomero rw'amashanyarazi, rugizwe n'ibyuma bitanga umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo ufite akadondi aho umuyobozi wikinyabiziga iyo ahageze aba agomba kugabanya umuvuduko, iruhande rwako hari umuhanda ukatira iburyo.

Igiti cy'ipoto gishinze ku butaka, kiranyurwaho n'insinga z'amashanyarazi. Iruhande rwacyo hari indabyo ziconze ndetse imbere yacyo hashinze n'ibindi biti by'amapoto binyurwaho n'insinga z'amashanyarazi.

Imodoka ziparitse imbere y'inzu zikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, mu mbuga yaho ishashemo amabuye iruhande rwaho har’umutaka usa n'amabara y'umuhondo ushinze mu kameza gakorerwamo n'uhagarariye ibikorwa by'ubucuruzi na serivisi zitangwa na MTN.

Umunara wubakishije ibyuma, umanikwaho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ushinze hasi ku butaka, umuriro w'amashanyarazi ukoreshwa umu ngo mu gucana mu nganda, gucomeka imashini n'ibindi.

Umunara ukozwe mu byuma bisomekeranye ushinze ku butaka muremure cyane unyurwaho n'imigozi itwara umuriro w'amashanyarazi uyajyana mu ngo umuriro w'amashanyarazi ugira imimaro itandukanye harimo gucana ibyuma bikoresha ikoranabuhanga nk'amateleviziyo mu rugo ndetse no gucana amatara mu nganda ukoreshwa mu kwatsa no guhagurutsa imashini.

Ipiloni inyurwaho n'umuriro w'amashanyarazi yubakishijwe ibyuma bisobekeranye ifite insinga zinyuraho hejuru zijya mu duce dutandukanye.

Umunara wubatse wubakishije ibyuma bisobekeranye ushinze ku butaka unyurwaho n'isinga z'amashanyarazi hajya mu gace runaka. Ni hanze izuba riri kuva hirya hari agasozi gahinzeho cyangwa gateyeho ibiti.

Ibyuma bibiri by'amapoto bishinze ku butaka bimanitseho ibyuma bishinzwe gutanga umuriro w'amashanyarazi, bishinze iruhande rw'umuhanda w'umukara wa kaburimbo.

Igiti k'ipoto gishize ku butaka kiriho itara rimurika nijoro ku muhanda kinyuzweho kandi n'insiga z'amashanyarazi, iki giti bagishyizeho imifariso.

Umukozi wabitorejwe kandi ubifitiye uruhushya yuriye ipoto rikoze mu giti rimanitseho insinga z'amashanyarazi, yiziritse neza arafashe ari gukora imirimo ijyanye n’imirimo y'amashanyarazi.

Inzu isakaje amabati, hejuru yayo haranyurwa n'insinga z'amashanyarazi, muri izo nsinga harimo urusinga ruza mu iyo nzu rukazanamo amashanyarazi, rurasa umukara.

Imbere y'igipangu gifite amarembo afungishijwe urugi rusa n'icyatsi, harimo inzu ifite inkuta zisize amabara y'umweru hejuru hasakarishijwe amabati y'umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo iruhande rwawo hari akayira kagendwamo n'abanyamaguru hariku kugendamo umugore wambaye ibitenge, iruhande rwe hashinze ipoto inyurwaho n'isinga z'amashanyarazi, inyuma ye hari igiti cy'amashami manini.

Umunara umanitseho ibikoresho bimeze nk'ingoma ndetse n'ibindi bimeze nk'amatara yo mu nzu bisa n'umweru, bikoreshwa mu itumanaho ry'amatelefoni, iruhande rwawo hari amapoto atwaye insinga zinyuramo umuriro w'amashanyarazi.

Amapiloni anyurwaho n'insinga z'amashanyarazi akwirakwizwa mu gace ndetse no mu nganda ziba ziri aho ngaho, hakoreshejwe n'ibyuma bisobekeranye bishinze ku butaka, bimeze nk'umunara usanzwe ukoreshwa mw’itumanaho ry'amatelefoni.

Umunara ushinze ku butaka, unyurwaho n'insinga z'amashanyarazi, iruhande rwawo hari amapoto, ariho amatara yo ku mihanda, ndetse n'indi poto iriho icyuma gikoreshwa mu gufata amashusho y'abaca mu muhanda.

Abantu bari kugenda mu muhanda wagenewe kugendwamo n'abanyamaguru ufatanye n'inzira nyabagendwa igendwamo n'ibinyabiziga ni ukuvuga imodoka n'amapikipiki haruguru yaho hari insina ziteye.

Hanze izuba riri kuva igicu kirasa n'umweru ndetse n'ikirere cy'ubururu ikirere gikeye kigaragaza ko imvura itari hafi kugwa bityo umuntu afite ingendo akaba yagenda nta kibazo.

Mu mbuga y'inyubako z'ibitaro haragendwamo n'umugore w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, afite inyandiko mu ntoki. Ibitaro byubakishijwe amabati hejuru asa n'umutuku.

Inzu y'igorofa yubakishije amatafari ahiye, ifite inkuta zisize amarangi y'umweru, ifite umuryango wo ku irembo wafunguye wanditseho amagambo y'imodoka z'ibitaro bisobanuye ko ariho imodoka z'ibitaro zisohokera.

Umuhanda w'umukara uciyemo umurongo w'umweru, iruhande rwawo hari imbibi zifite utubara tw'umweru n'umukara, impande yaho hari akapa kanditseho ko ari ibitaro bya Kabgayi, iruhande rwaho hari inyubako z'ibitaro.

Imodoka ziparitse mu mbuga isizemo isima y'igiheri isa n'umukara, harimo imodoka ebyiri zitwara abarwayi barembye cyangwa abakomerekejwe mu mpanuka zo mu muhanda zirasa n'umweru, zifite amatara hejuru yaka ubururu ndetse n'umutuku.

Inzu ifite urubaraza harimo intebe zikozwe mu cyuma ndetse n'intebe ndende ikozwe mu rubaho n'icyuma, iyi nzu ifite inkuta z'amarangi asa n'umuhondo, harimo ibikoresho bikoreshwa mu gufata amashusho y'abantu bageze aho hantu bimanitse hejuru y'inzu kandi ifite n'akapa kagaragaza aho ubwiherero buherereye.

Inyubako z'ibitaro zifite ikirongozi gihuza inyubako imwe n'indi, gitwikirijwe n'amabati gifite inkingi zikozwe n'utwuma gihagazwemo n'abagabo babiri bari kumanuka.

Intebe y'urubaho iteretse mu gacucu, ifite igice begamira, yicaweho n'umuntu, inyuma yayo hubatse inzu ifite igisenge cy'amabati asa n'ubururu, inkuta zayo zubakishije amatafari ahiye, ifite akabaraza ko hirya kegeranye n'ahateye ubusitani kicaweho n'abantu.

Amadarajye azamuka ava hasi, azamuka hejuru mu mbuga iparitsemo imbangukiragutabara isa n'umweru, yanditseho amagambo imbangukiragutabara mu ibara ry'ubururu.

Akayira gahuza inyubako n'indi zo ku bitaro gashashemo isima hasi y'igiri gatwikiriye gafite inkingi z'utwuma zisa n'umukara zishinze mu isima y'igiheri, impande yaho hari ubusitani burimo utwatsi tuzengurutswe n'indabyo.

Abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'urubaho zifite amaguru ndetse n'ahegamirwa hakozwe n'ibyuma bicaye bose bari kuganira umwe n'uwo bicaranye.

Abagabo n'abagore bicaye ku ntebe ziri hanze z'urubaho ndende, bicaye ku kigo nderabuzima bategereje guhabwa serivisi. Bamwe muri bo bararyamye, abandi baricaye ndetse abandi bari ku idirishya bari kubafasha.

Ni mu nzu ifite amadirishya y'ibirahure bibonerana byinjiza urumuri, harimo intebe zo kwicaraho zikoze mu cyuma zifashe ku isima hasi ndetse n'akandi kagare gakoreshwa mu gutwara abamugaye gasa n'umukara gafite amapine.

Mu mbuga y'ibitaro haparitsemo imodoka, imbere yayo hari inyubako z'ibitaro, iruhande rwabyo hari utwapa tugaragaza aho hatangirwa imiti ndetse inyuma yaho hari agasimu gato gakoze mu cyuma gashyirwamo imyanda.

Kwa muganga hari igikuta cyubakishijwe amarangi asa n'umuhondo hariho akapa ku gikuta y'uko aho hantu hatemerewe kunywebwa itabi, impande yaho ku rubaraza hicaye umugore witangiriye itama yambaye ikanzu y'umuhondo.

Inyubako ifite inkingi inafite urubaraza rutwikiriye, hejuru yayo hateretse ibigega bijyamo amazi bibiri bisa n'umukara. Imbere yayo hari ubusitani cyangwa imbuga iteyemo ibyatsi biconze.

Inzu ifite inkuta zubakishije amatafari ahiye, irimo icyuma gikoreshwa mugukonjesha mu nzu igihe hashyushye, ifite n'inkuta zisize amarangi y'umuhondo ifite inzugi z'ibirahure ebyiri zifunguye.

Kwa muganga hubakishije inkuta z'amatafari ahiye, hahagazemo ukora kwa muganga wambaye imyambaro y'itaburiya isa n'ubururu, iruhande rwe hari intebe zicayeho abarwayi.

Ikirongozi gitwikiriye neza gifite inkingi zikomeye zifashe hasi zisize amarangi y'umuhondo, ikirongozi gishashemo amabuye, kirahuza inyubako imwe y'ibitaro ndetse n'indi nyubako y'ibitaro.

Ahakorerwa n'amaresitora hahagazwemo n'abantu bari kwaka ibyo kurya abandi bari gutanga ibyo kurya bambaye imyambaro igizwe n'amataburya y'umweru n'utugofero tw'umweru mu mutwe.

Mu cyumba cy'ibitaro ahandi intebe yicayeho umugore wambaye itaburiya y'umweru, iruhande rwe hahagaze umugabo nawe w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, impande yabo haryamye umugabo ku gatanda.

Umugore ufite imisatsi karemano isokoje, yambaye amadarubindi, yambaye ikanzu isa n'umutuku ifite akabara k'umweru mu gatuza akora mu bintu bijyanye n'amategeko.

Mu cyumba kirimo intebe z'umweru ndende z'urubaho hicayemo imfungwa n'abagororwa bambaye imyambaro iri mu ibara ry'iroza imbere yabo hahagaze umugabo wumuburanisha novuga umugabo ukora mu bintu bijyanye n'amategeko wambaye ikanzu y'umukara.

Umugabo w'umwavoka wambaye agapfukamunwa k'ubururu n'ikanzu y'umukara ifite akabara k'umweru mu gatuza, impande ye hahagaze umugabo uburanishwa wambaye imyenda y'imfungwa isa n'iroza.

Umugabo wambaye ikanzu isa n'umutuku, ifite amabara y'umukara ndetse n'umweru, akaba akora mu mirimo y'amategeko ndetse n'imanza.

Mu nzu hateraniyemo abagore n'abagabo, bicaye ku ntebe n'ameza, imbere yabo ku meza hateretseho mudasobwa, amazi yo kunywa, ndetse n'ibitabo nk'aho kwandika. Inyuma yabo hari umugabo wambaye ikoti arimo kwandika akoresheje intoki.

Umugabo w'imibiri yombi, wambaye imyambaro y'imfungwa n'abagororwa isa n'iroza, ufite indangururamajwi kukora isa n'umukara, arivuga ibintu.

Uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye hejuru harimo utwuma hahagazwemo n'abagabo b'imfungwa n'abagororwa bambaye imyambaro isa n'iroza.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo mu ibara ry'umukara ritsiritse, ariho indahiro zo mu nteko nshinga mategeko.

Umugabo wambaye ishati n'amadarubindi watebeje ari gukora ku gikarito kigeretse ku bindi bikarito mu kabati, icyo gikarito ndetse n'ibindi bikaba bifite udupapuro tubyometseho dusa n'umweru twanditseho ibintu mu mabara y'umukara.

Imfungwa n'abagororwa bambaye imyambaro isa n'ibara ry'iroza, bateraniye hanze bareba imbere bari kumwe n'abacungagereza bambaye imyambaro isa n'ibara rya kaki

Louise mushikiwabo ahagararanye n'umugabo w'umuzungu; ndetse n'undi w'umwirabura wambaye ikanzu y'abacamanza; umucamanza afasha uburanishwa kuba yamuhagararira mu mategeko.

Imfungwa zambaye imyenda y'iroza ziri hanze y'uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye rufungishijwe umuryango munini usa n'umutuku, imfungwa ziragendera ku murongo.

Umugabo wambaye amadarubindi y'umukara ufite umusatsi ku mutwe, umugabo yambaye kandi ikanzu ifite amabara y'umutuku ndetse n'utubara tw'umukara mu gatuza, mu imbere yambaye ishati na karuvati. Uyu mugabo akora mu bintu bijyanye n'amategeko.

Umugore w'imisatsi miremire y'umukara wambaye amaherena usa n'imibiri yombi wambaye ikanzu y'umutuku ifite akabara k'umweru mu gatuza, akaba ashinzwe ibintu bijyanye n'amategeko.

Abagabo n'abagore bicaye mu nzu ifite intebe z'urubaho ndende zikoze mu biti ndetse no mu byuma. Inyandiko imbere yabo hicaye undi mugabo mu gatebe k'umukara kegamirwa imbere ye hari ameza ateretseho amazi yo kunywa ndetse n'inyandiko.

Abantu bambaye imyenda y'umukara y'amakanzu b'abacamanza, bahagaze mu nzu barikumwe n'undi muntu w'imfungwa wambaye imyenda y' iroza.

Ingabire Vikitware ni umugore wambaye ikanzu iri mu mabara y'iroza nk'umwenda wambarwa n'imfungwa n'abagororwa bo mu Rwanda afite agakapu gahetswe ku rutugu yambaye amadarubindi ari kwambikwa amapingu n'umucungagereza wambaye imyenda isa na kake.

Umupolisi wambaye imyenda yabugenewe, ukora mu ishami ryo kuzimya inkongi y'umuriro, ari kwereka abantu uko barwanya inkongi y'umuriro ndetse n'uburyo bakwifashisha ibikoresho bayizimya.

Ibikoresho bikoreshwa mu kurwanya inkongi y'umuriro, bikozwe mu macupa y'ibyuma asize amarangi nk'umutuku ndetse n'umweru, bifite imipira ndetse n'ahantu ho gukanda igihe umuntu ashatse kuzimya inkongi.

Hanze umugabo ari gutambuka mu kayira kari iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo kagenewe kugendwamo n'abagenda n'amaguru, afite utujerekani tw'umweru ndetse n'akandi gasa n'umuhondo mu kwaha kwe, ageze ahaparitse imodoka isa n'umweru agiye guhura n'umugore.

Imodoka ifite umwanya w'inyuma ujya kumera nk'igisanduku gikoze m'icyuma kiriho uturahure naho guhumekera utwarwamo imfungwa n'imodoka ya polisi y'igihugu y'u Rwanda iruhande rwayo hari akamodoka gatwarwa mu buryo bwihariye byose biri kugendera mu muhanda.

Abakozi b'ikigo gishinzwe umutekano wo mu ngo ndetse n'ahandi ariko mu buryo bwihariye; ni ukuvuga urabishyura bakaza kugucungira umutekano mu ngo cyangwa se mu kigo cyawe; bambaye imyambaro y'umukara batebeje; begereye undi mugabo wambaye ibisarubeti; uri kubereka ibintu mu modoka.

Icupa risa n'umutuku ndetse n'umukara, rifite umupira n'akantu ko gukandaho, riteretse hasi. Iri cupa riba ririmo ibikoresho ndetse n'ibindi bintu byifashishwa mu guhashya inkongi y'umuriro.

Ibikoresho bikoreshwa uhashya inkongi y'umuriro, bisa n'umutuku harimo icupa risa n'umutuku, riteretse hasi rifite umupira ndetse n'akantu bakanda igihe barwanya inkongi.

Umupolisi wambaye impuzankano ya polisi igizwe n'amakoti asa n'umukara hariho idarapo ry'igihugu ndetse n'ipantaro isa n'umukara wambaye ijile isa n'umukara irimo utubara tw'icyatsi duciyeho imirongo izenguruka ni ukuvuga isa nk'ikoza uruziga ari imbere y'ibinyabiziga birimo amamodoka ndetse n'amapikipiki.

Imodoka nto y'umweru igendwamo na polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda iri kugendera mu muhanda wa kaburimbo usa n'umukara imbere yayo hari amapikipiki.

Abagabo batatu bambaye imyambaro y'umukara ndetse n'ingofero z'umukara ni abapolisi bari kugendera iruhande rwa kaburimbo imbere yabo hari imitaka ikorerwamo n'abahagarariye ibikorwa by'ubucuruzi bya mtn

Imbuga ishashemo amabuye ipatsemo ikinyabiziga cya polisi gisa n'umweru n'umukara, gifite umwanya wicarwamo inyuma wegamirwa, iruhande rwayo haparitse indi modoka ndetse hari n'ikona rishushanya aho imodoka ziparika.

Umugore uri gutambuka yambaye igitenge ndetse ateze n'igitambaro cy'umukara mu mutwe kigera mu mugongo, yambaye inkweto zifunguye za kamambiri, inyuma ye hari gutambuka umugabo wambaye ishati y'ubururu ikozwe mu ikoboyi yamaboko maremare.

Imbaga y'abantu barimo abasore, imbere yabo hari ahantu hubatse agahema gahagazwemo n'umuntu wambaye ishati y'amaboko magufi isa n'umweru, ufite indangururamajwi arikuyivugiramo, inyuma ye hari irindi hema rinini risa n'umweru ritatse ibirango bya FPR.

Icyumba giteraniyemo abagabo n'abagore, harimo utumeza dukozwe mu biti, imbere yabo hicaye abandi bantu, bicaye mu ntebe z'umukara, zegamirwa, ni batatu, iruhande rwabo hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abagabo babiri n'abagore babiri bahagaze imbere bari mu bikorwa byo kwiyamamariza kuyobora umukuru w'igihugu. Ufite indangururamajwi ni Mpayimana Philippe, niwe uri kwiyamamariza kuba umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda, abo bahagararanye baramushyigikiye.

Perezida Kagame ni perezida w'igihugu cy'u Rwanda, ahagaze iruhande rw'idarapo ry'igihugu rigizwe n'amabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi, impande ye hahagaze madamu Jeannette Kagame yambaye imikenyero y'ubururu, impande yindi ya perezida Kagame hahagaze umuntu wambaye ikanzu isa n'umutuku ni umunyamategeko.

Ahantu hatuwe, hari inzu zifite igisenge cy'amabati asa n'umutuku, afite imigongo, igisenge gicuritse amazi, imbere yaho hari amahema asa n'umweru, iruhande rwayo hari gutambukwa n'abantu.

Urupapuro rusa n'umukara ruriho abakandida batatu b'amashyaka agiye atandukanye, rugaragaza uburyo aba bakandida bagiye bitwara mu matora ya perezida wa repubulika y'igihugu cy'u Rwanda.

Umugabo wirabura ufashe ifoto ishushanyijeho Habineza Frank umukandida w'ishyaka rya girini pati ryiyamamarizaga umwanya wo kuyobora igihugu cy'u Rwanda.

Umugabo wambaye umupira w'umweru ufite ikora uciye amaboko yambaye n'isaha ku kaboko, yambaye n'ingofero y'umukara, afite indangururamajwi ari kuyivugiramo.

Minisitiri w'intebe dogiteri Edouard Ngirente aricaye, yambaye ikoti na karuvati ari kumwenyura ndetse iruhande rwe hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abagabo, abana ndetse n'abagore bose bari hanze, bari gusuhuzanya n'umukandida w'ishyaka rya green party Frank HABINEZA.

Umugore ndetse n'umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru w'amaboko magufi, wanditsemo amagambo y'umukara utsiritse mu mugongo, bari gufatanya kumanika amatangazo.

Umugabo wicaye ku ntebe ifite imisego isa n'umukara imbere ye hari imashini y'uruganda rwa Makibuki hateretse kandi amazi yo kunywa afunze, ari kuvugira mu ndangururamajwi.

Iruhande rw'umuhanda ushashemo amabuye uri kugendwamo n'imodoka zisa n'umweru, haparitse abayobozi b'amapikipiki akoresha amashanyarazi ndetse n'andi akoresha za risanse.

Imodoka itwara ibicuruzwa isa n'umweru ifite igice cy'inyuma kimeze nk'isanduku ifunze neza, iruhande rwayo haratambukwa n'umugabo w'umukarani wikoreye umufuka ku mutwe.

Imodoka iri mu bwoko bw'ikamyo zitwara imizigo irimo ibicuruzwa ifite igice cy'imbere cyicarwamo n'uyitwaye gisa n'umutuku igice cy'inyuma gisa n'isanduku ifunguye gishyirwamo imizigo itwaye iri kugendera mu muhanda wa kaburimbo w'umukara.

Imodoka ikoreshwa mu gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange, yanditseho amagambo ku nguzanyo kurusha izindi nawe wagira iwawe, isize amarangi y'icyatsi, iteyeho n'ibyapa byanditseho amagambo iri mu muhanda wa kaburimbo w'umukara, iruhande rwaho hari ahambukirwa n'abanyamaguru.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, yicawemo n'abagenzi anandi barahagaze, iruhande rwayo hari gutambuka umugabo wikoze mu mifuka.

Muri gare ya nyabugogo hari imodoka nyinshi zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ziparitse n'abantu bari kunyuranwamo hari abantu benshi bari kugenda muri gare.

Imodoka isa n'ubururu ifite akandi kabara k'umuhondo, inyuma ifite igice cy'inyuma gifunguye gihekwamo imizigo, ihetse imizigo itwikirijwe na shitingi isa n'ubururu ndetse n'umweru imbere y'iyi modoka haragendwa na moto ifite amapine atatu.

Imodoka isa n'umweru ifite igice cy'inyuma kimeze nk'idomoro gitwarwamo umucanga, igeze ahantu hari imirongo y'umweru igabanya umuhanda mu butambike bwayo cyagenewe kwambukirwamo n'abanyamaguru.

Mu muhanda wa kaburimbo usa n'umukara haragendwamo ibinyabiziga bitandukanye birimo amapikipiki atwaye abagenzi ndetse n'imodoka iri mu bwoko bw'ikamyo ifite igice kicarwamo n'uyitwaye gisa n'umweru, naho inyuma ikaba ifite igice kimeze nk'isanduku itwarwamo ibicuruzwa gisa n'umukara.

Imodoka y'gikamyo ifite umwanya w'inyuma muremure cyane, ushyirwamo ibicuruzwa usize irangi ry'yumweru, iki gikamyo gihagaze mu muhanda wa kaburimbo y'umukara.

Umuyobozi w'ipikipiki wicaye ku ipikipiki ihagaze, yambaye itaburiya irimo amabara y'umuhondo yanditsemo ibintu mu mugongo n'ibara ry'umukara ritsiritse, ahagaze mu muhanda w'umukara wa kaburimbo.

Imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange zisa n'ubururu ziparitse mu mwanya wagenewe guparikwamo amamodoka muri gare ya dawunitawuni.

Imodoka ihetse imizigo mu gice cyayo cy'inyuma kimeze nk'isanduku ifunguye hejuru, imizigo itwikirije shitingi, inyuma yayo haragendwa n'ipikipiki.

Umuhanda wa kaburimbo isa n'umukara iciyemo imirongo yerekana ko umuhanda ukomeza, uri kugenderwamo n'ibinyabiziga birimo ipikipiki y'amapine atatu ndetse n'imodoka.

Iruhande rw'akayira kagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru gashashemo amatafari hari umwanya uparikwamo n'abayobozi b'amapikipiki bambaye ingofero zirinda abagendera ku mapikipiki bambaye amajiri y'umuhondo ndetse afite n'igice cyo hasi gisa n'ubururu imbere yabo hari umutaka usa n'umuhondo wa emutiyeni.

Umugabo uri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ashoreye igare, yambaye ingofero y'umweru, ku igare hariho imifuka myinshi irimo ibicuruzwa.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwihariye isa n'umweru yanditseho yego kabuzi, iparitse mu mwanya wagenewe guparikwamo n'amamodoka aho ategerereza abagenzi.

Ipikipiki y'amapine atatu ifite igice k'inyuma kimeze nk'isanduku ikoze mu byuma, ifungwa cyangwa igafungurwa igihe hashyirwamo cyangwa hakurwamo imizigo igatwarwamo.

Imodoka y'umweru ikorwa n'uruganda rwa mitsubishi ifite igice cy'inyuma gibikwamo imizigo kimeze nk'isanduku ifunze neza nacyo gisa n'umweru, iri kugendera mu muhanda wa kaburimbo isa n'umukara.

Imodoka ikoreshwa mu gutwara abantu mu buryo bwa rusange, n’ijoro iparitse mu cyanya cyagenewe guparikwamo ama modoka aho ategerereza abagenzi. Harimo abagenzi, iri kwak’amatara y'imbere ndetse no hejuru yayo hari kwaka amatara mu bimenyetso by'amagambo, bigaragaza aho imodoka igana.

Imodoka ifite imyanya yicarwamo n'abantu bane, ifite ibirango mu mbavu zayo z'iburyo amagambo yanditsemo, ikaba yiciwemo n'umuntu wasohoye inkokora hanze, akaba yafashe ku gice cyo hejuru, iyi modoka ikoreshwa mu kwigisha abanyeshuri bari kwiga imodoka.

Umuhanda nyabagendwa ufite ikoni aho moto iri kuzamuka ihetse umugenzi ugiye guhurira n'undi muhanda uzamuka, urimo kugendwamo n'imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange.

Imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange zisa n'umweru ziba zifite imyanya yicirwamo n'abantu cumi n'umunani, imwe iri imbere indi iri gukata inyuma yayo, iri imbere imbere yayo hahagaze indi modoka nayo itwara abantu mu buryo bwa rusange isa n'ubururu, itwara abantu bamwe bahagaze abandi bicaye.

Imodoka isa n'umweru ifite igice gifunguye hejuru gihehekwamo ibikoresho by'ubwubatsi nk'amabuye ndetse n'umucanga, iragendera ku muhanda wa kaburimbo iri kumanuka, impande yaho harigutambuka umugabo.

Iruhande rw'inzira nyabagendwa isa n'umukara ni ukuvuga kaburimbo haparitse amagare afite imisego akoreshwa mu gutwara abagenzi ayo magare atwarwa n'abanyonzi.

Abakora umwuga wo gutwara abagenzi ku magare bitwa abanyonzi, baparitse iruhande rw'umuhanda ushashemo igiheri usa n'umukara wa kaburimbo, imbere yabo hari imodoka icanye amatara y'imbere.

Umuhanda wa kaburimbo usa n'umukara uragendwamo n'imodoka ifite igice cy'inyuma gihekwamo imizigo kandi hari kugendamo amapikipiki asa n'umutuku atwawe n' nabayobozi bambaye ingofero zisa n'umuhondo akoresha amashanyarazi.

Imodoka isa n'umweru itwara abagenzi mu buryo bwa rusange iragendera mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rwayo irabisikana n'ipikipiki ihetse umugenzi uteruye umwana.

Imodoka isa n'umweru nini itwayemo abagenzi, yagenewe kugendwamo n'abagenzi mu buryo bwa rusange, iragendera mu muhanda wa kaburimbo usa n'umukara, impande yawo irabisikana n'ipikipiki isa n'umutuku nayo ihetse umugenzi.

Imodoka isa n'umutuku ifite igice cy'inyuma kimeze nk'igisanduku gikoze mu cyuma, gifunguye hejuru cyagenewe gushyiramo ibikoresho by'ubwubatsi nk'amabuye n'umucanga. Imodoka iri mu bwoko bw'ihoho iri kugendera ku muhanda w'umukara uzwi nka kaburimbo.

Imodoka itwara ibintu bikoreshwa mu bwubatsi birimo amabuye ndetse n'umucanga isa n'umweru ifite igice cy'inyuma gihekwamo kimeze nk'isanduku ifunguye, hejuru gihagazwemo n'umugabo wambaye umupira w'umuhondo w'amaboko magufi, wambaye akagofero mu mutwe karimo amabara y'umutuku, umuhondo n'icyatsi.

Imodoka nini yo mu bwoko bw'ihoho ifite igice cy'imbere cyicarwamo umushoferi gisa umuhondo naho igice cy'inyuma gisa n'umweru kimeze nk'igisanduku kinini cyane gifunguye hejuru, iki gice gitwarwamo imizigo irimo ibikoresho by'ubwubatsi nk'amabuye ndetse n'umucanga bikoreshwa mu bwubatsi.

Imodoka y'igikamyo gisa n'umuhondo gifite igice cy'inyuma kimeze nk'isanduku gihekwamo ibicuruzwa ihetse amamatora atwikirijwe na shitingi y'ubururu.

Ipikipiki igendera ku mapine abiri imbere yaho hari imodoka isa n'ubururu ifite igice cy'inyuma gitwarwamo imizigo kidapfundikiye. Imizigo itwikirijwe shitingi y'ubururu.

Moto igizwe n'amapine atatu isa n'ubururu, ifite igice cy'inyuma gipfundikiye neza nk'isanduku nacyo gisa n'ubururu, ishyirwamo ibicuruzwa bitandukanye, ahangaha ku gice cy'inyuma handitseho na nimero z'uyitwara ushobora kumuhamagara.

Imodoka nini itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, isa n'umweru, irimo abagenzi, bamwe barahagaze, abandi baricaye. Iyi modoka iragendera mu muhanda wa kaburimbo isa n'umukara, umuyobozi wayo yambaye ijire isa na kaki.

Imodoka y'ubwoko bw'ikamyo isa n'umweru ifite igice cy'inyuma kimeze nk'idomoro ifunze neza gishyirwamo isima, iri kugenda ku muhanda wa kaburimbo isa n'umukara.

Imodoka iri mu bwoko bw'igikamyo, ifite igice k'inyuma kimeze nk'igisanduku kirekire gifunguye, hejuru ariko gifungishije ibyuma gihetswemo inka z'amabara y'umweru ndetse n'umukara.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ifite amabara y'umweru ndetse n'utundi tubara dusa n'icyatsi kidatsiritse, imbere yaho haratambuka umusore wambaye umupira w'umuhondo ndetse hanahagaze undi muntu, inyuma yayo hahagaze umupolisi hirya yayo haparitse izindi modoka.

Ikibuga cy'ibitaka gishushanyishije imirongo y'umweru gikinirwamo umukino wa tenisi gifite na hepfo ikindi kibuga gifite aho abantu baba bari gusifura uyu mukino bicaye ku dutebe tw'umukara.

Ikibuga gikinirwamo umupira w'amaguru gishushanyije imirongo y'umweru, ku mpande zacyo gikozwe n'ubwatsi nabwo bushushanyijwemo imirongo y'umweru, n'imbere kirimo abantu bari gukina umupira, gifite amazamu abiri y'ibyuma asize irangi ry'umweru.

Umuhanda nyabagendwa usa n'umukara wa kaburimbo, ufite imirongo icagaguye ku ruhande rw'iburyo, ku ikoni hari icyapa cyanditseho amagambo agaragaza ko iyo nzira uyikomeje agera ku Kanyaru.

Icyapa gishyirwa ku muhanda gisa n'umuhondo gifite n'amabara y'umukara, gishyirwa ku muhanda mu gace karimo imirimo y'ubwubatsi.

Icyapa gifite ishusho y'uruziga, kizengurutswe n'akabara k'umutuku, gifite ubuso bw'umweru hashushanyijemo igare mu ibara ry'umukara, riciyemo akarongo kaberamye iki cyapa gishyirwa ku muhanda nyabagendwa kerekana ko aho hantu hatanyurwa n'amagare.

Icyapa gikoze mu ishusho y'uruziga kizengurutswe n'akabara k'umutuku gifite ubuso bw'ubururu buciyemo uturongo tubiri duhagaze duciyemo umurongo utambitse utukura iki cyapa gishyirwa iruhande rw'inzira nyabagendwa.

Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, gifite ubuso busa n'umweru, giciyemo imirongo kandi kinashushanyije, umugabo uri kuyitambukamo mu ibara ry'umukara ritsiritse. Iki cyapa gishyirwa impande y'inzira nyabagendwa; kikerekana ahagenewe kwambukirwa n'abanyamaguru.

Icyapa gishinze ku ruhande rw'umuhanda kirimo ubuso bw'ubururu ndetse n'agashusho ka mpande eshatu kiri kugendwamo n'umugabo uri kwambuka umuhanda. Iruhande rwacyo hari ibiti birebire cyane. Iki cyapa gishyirwa ku nzira nyabagendwa kikerekana ko imbere hari ahantu ho kwambukirwa.

Igikoresho gikoresha urumuri rw'umweru, umuhondo ndetse n'umutuku, gishingwa ku muhanda kigakoresha ibimenyetso by'urumuri, kibara kikerekana ko ibinyabiziga byemewe gutambuka cyangwa se ari abagenzi bemerewe gutambuka.

Icyapa gishyirwa iruhande rw'inzira nyabagendwa gifite ishusho y'uruziga cyanditsemo umubare mirongo itandatu wandikishijwe amabara y'umukara mu buso bw'umweru. Iki cyapa gishyirwa ku muhanda kikerekana ko umuyobozi w'ikinyabiziga atagomba kurenza umuvuduko wa mirongo itandatu.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo ufite agace gateye mu busitani burimo indabyo hamanitsemo n'icyapa kigaragaza aho imodoka ziparika, ku ruhande rw'ibumoso kiriho ibara ry'ubururu gishushanyijemo imodoka ndende.

Icyapa gishinze ku cyuma, gifite ishusho ya mpande eshatu ubuso bw'umweru, kirimo ikimenyetso cy'akadundi, kiri mu mabara y'umukara, iki cyapa kigaragaza ko imbere mu muhanda nyabagendwa hari utudundi.

Icyapa gishingwa iruhande rw'inzira nyabagendwa cya mpande eshatu gifite ubuso bw'umweru bushushanyijemo abana bafatanye akaboko bagiye kwiga, kereka abayobozi b'ibinyabiziga ko imbere hari ikigo cy'amashuri.

Icyapa gishyirwa iruhande rw'inzira nyabagendwa, cyerekana ko imbere umuntu akomeje iyo nzira nyabagendwa, umuhanda ufunganye ibumoso. Gishyirwa ku nzira, kugira ngo kimenyeshe hakiri kare umunyobozi w'ikinyabiziga.

Icyapa gishyirwa ku nzi nyabagendwa kerekana ko iyo nzira umuntu w'umuyobozi w'ikinyabiziga adafite guhita akatira ibumoso bw'inzira yari ari kugenderamo ndetse byerekana ko bibujijwe, iki cyapa gishyirwa ku nzira nyabagendwa ndetse utabikurikije arahanwa na polisi.

Icyapa cya mpande eshatu gifite ubuso bw'umweru bushushanyijemo umwana ndetse n'undi muntu mukuru bose bari kugenda bafite amakaye mu ntoki, iki cyapa gishyirwa impande y'inzira nyabagendwa cyerekana ko imbere hari ikigo cy'amashuri.

Icyapa gifite ishusho ya mpandeshatu, gifite ubuso bw'umweru, gishushanyijemo ahantu imihanda ihurira w'ibara ritsiritse, iki cyapa gishyirwa impande y'inzira nyabagendwa cyerekana ko ku muhanda munini hari agahandada gato kawushamikiyeho.

Icyapa cya mpande eshatu, gifite ubuso bw'umuhondo, gihagazwemo n'umugabo ushushanyijwe n'ibara ry'umukara ritsiritse cyane, ari gukoresha igitiyo mu bintu by'ibitaka. Iki cyapa gishyirwa ku nzira nyabagendwa cyerekana ko hari imirimo y'ubwubatsi iri gukorerwa muri ako gace.

Icyapa gifite ishusho ya mpandeshatu, gifite akazenguruko k'amabara y'umutuku ifite ubuso busa n'umweru. Gishushanyijemo umugabo mu mabara y'umukara ari gutambuka. Iki cyapa gishyirwa ku nzira nyabagendwa.

Icyapa gishyirwa ku nzira nyabagendwa gifite ishusho ya mpande eshatu gifite ubuso bw'umweru gishushanyijeho umugabo mu mabara y'umukara uri gutambuka mu muhanda, iki cyapa gishyirwa ku nzira kugirango cyerekane inzira y'banyamaguru.

Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kifite ubuso busa n'umweru gishushanyijemo agasaraba kandidikishije umukara utsiritse, gishinze ku muhanda iruhande rw'inzira nyabagendwa. Iki cyapa cyerekana ko imbere ukomeje uyu muhanda hubatse ibitaro.

Icyapa cya mpandeshatu kizengurutswe n'akabara k'umutuku, gifite ubuso bw'umweru, cyandikishijemo igishushanyo kiri mu mabara y'umukara utsiritse, cyerekana ko ari umuhanda mugari ushamikiyeho utundi duhanda duto iburyo n'ibumoso zishyirwa ku nzira nyabagendwa.

Icyapa gishinze kiri mu ishusho ya mpandeshatu gishushanyijemo utubara tw'umutuku umuhondo ndetse n'icyatsi, iki cyapa cyerekana ko ukomeje mu nzira nyabagendwa imbere hari ibimenyetso bisimbura umupolisi byemerera ibinyabiziga gutambuka.

Icyapa gifite ishusho y'uruziga kizengurutswe n'akabara k'umutuku gifite ubuso bw'umweru, bwanditsemo pa mu ibara ry'umukara ritsiritse riciyemo akarongo kaberamye k'umutuku, kerekana ko icyo gice cy'inzira nyabagendwa hatemewe guparikwa n'ibinyabiziga.

Ibyapa bihecyekeranye bibiri, icyo hejuru gishushanyijemo imodoka mu ishusho ya mpande eshatu iri kumanuka ni ukuvuga kirerekana ko mu muhanda hari akamanuka ka karindwi kw'ijana, ikiri munsi gishushanyijemo amatara y'ibimenyetso yagenewe kuyobora imodoka mu umuhanda. Ni ukuvuga kuzihagarika cyangwa kuzemerera gukomeza.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ufite igikapu cyambarwa ku rutugu, wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara uhagaze mu kayira kagenewe kugendwamo n'abanyamaguru, inyuma ye hari icyapa cyanditseho ko ukomeje iyo nzira nyabagendwa yagera mu karere ka Rusizi.

Icyapa gikoze m'ishusho ya mpande eshatu kizengurutswe n'ibara ry'umutuku gifite ubuso bw'umweru hahagazemo umugabo ufite igitiyo arikuyora ibimeze nk'igitaka ki cyapa gishyirwa impande y'inzira nyabagendwa kikerekana ko imbere hari ibikorwa by'ubwubatsi biri kuhakorerwa.

Icyapa cya mpande eshatu, kizengurutswe n'akabara k'umutuku, gifite ubuso bw'umweru buhagazwemo n'umugabo wambaye bote, ufite igitiyo mu mukara utsiritse, ari kugikoza ahantu hari ibintu by'ibitaka cyangwa umucanga. Iki cyapa gishyirwa ku nzira nyabagendwa, kikerekana ko ukomeje iyo nzira hari gukorerwa ibikorwa by'ubwubatsi.

Icyapa gikoze m'ishusho y'umuzenguruko gifite ubuso bw'umweru bushushanyijemo imodoka ndende itwara abagenzi mu buryo bwa rusange isa n'umukara iciyemo akarongo gatukura kaberamye iki cyapa gishyirwa ku nzira nyabagendwa kikerekana ko hatanyurwa n'imodoka ndende zitwara abagenzi mu' buryo bwa rusange.

Inzu yubakishijwe igisenge cy'amabati asa n'umutuku ndetse ifite n'umureko, iruhande rwayo hari ikigega gisa n'umukara gifite agatiyo gasa n'umweru, iyo urebeye iruhande ubona izindi nzu nyinshi nazo zifite ibisenge byiganjemo ibisa n'umutuku.

Inzu nyinshi zubatse mu buryo bwegeranye zifite ibisenge bizamuye bimena amazi, birimo ibisenge byubakishije amabati atukura, hirya y'aho hari umunara ushinze uriho ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Inzu zubakishije ibisenge by'amabati harimo iby'amabati asize irangi ry'ubururu, iby'amabati yasize irangi ry'umutuku, ndetse no hirya hari inzu zubakishije ibisenge ndende zisa nk'amashuri cyangwa inganda.

Inzu isize amarangi y'umweru, ifite ibirahure ndetse n'amadirishya asize uturangi tw'umukara, ifite uruzitiro rukozwe n'ibyuma bisa n'umukara, imbere yaho hari umuhanda, umuhanda ukoreshwa mu ngendo zitandukanye.

Imodoka iri kugendera mu muhanda w'umukara wa kaburimbo itwawe n'umuyobozi w'ikinyabiziga. Imodoka ifasha uyitwaye kuba yagera ahantu kure atavunitse. Ni ukuvuga ahantu atari kugendesha amaguru. Imurinda kandi izuba, umuyaga ndetse n'imvura

Inzu y'amagorofa yubakishije inkuta z'amarangi y'umuhondo ndetse ikaba ifite n'ibirahure birimo ibitambaro bibuza urumuri kwinjira ikaba ifite imbuga iparitsemo imodoka y'umweru ikaba ifite amarembo akingishije urugi rukozwe n'ibyuma bisa n'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo uragendwamo n'ibinyabiziga birimo amamodoka ndetse n'amapikipiki, iruhande rw'umuhanda haratambukwa n'abanyamaguru, iruhande rw'umuhanda kandi hateye igiti cy'amashami menshi.

Inzu y'amagorofa ikorerwamo n'ibigo by'ubucuruzi nk'ikigo cya banki cya ekwiti n'icyitwa kopedu gitanga serivisi z'amabanki ndetse n'ibindi bigo byinshi bikorera mu miryango y'iyi nyubako, imbere hayo hari igiti gifite amashami hanze izuba riri kuva.

Inzu ifite urubaraza ruteyemo udutebe dukozwe mu biti ndetse n'ameza abaje mu biti, ifite imiryango ibiri ifunguye igizwe n'ibyuma ndetse n'ibirahure mo imbere harimo akabati gateretsemo ibyo kunywa birimo ibisembuye.

Umugabo uri kugenda mu kayira kagenewe kugenda mo n'abagendesha amaguru ageze ku mutaka wa emutiyene bicayemo umuntu uhagarariye ibikorwa by'ubucuruzi bya emutiyene, inyuma ye hari amapironi abiri ariho ibyuma bikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu gace.

Inyubako isize irange ry'umweru ku nkuta ifite ubusitani buzengurutswe n'indabyo z'umuhondo ndetse n'icyatsi, ifite akayira kajya mu nyubako gasashemo amatafari ku mpande hari udutafari tw'umweru ndetse n'umukara.

Inzu ifite igisenge cy'amabati atukura yubakishijwe inkuta zisize amarangi y'umweru, ifite kandi amadirishya y'ibirahure ifite igipangu gifite urugi rwo ku irembo rwubakishijwe ibyuma mu gipangu gikozwe n'amatafari ahiye.

Inzu ifite igisenge gisakaje amabati y'umutuku ashaje, hejuru hari igikoresho gifasha gufata amarezo akoreshwa mu kureba televiziyo, cyanditseho Kanari purizi, inyuma yayo hari inyubako nyinshi zubakishije ibisenge, birimo amabati y'umutuku ndetse n'andi mabati kandi anateye n'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo, wanditsemo amagambo y'umweru, yerekana ko imbere umuyobozi w'ikinyabiziga nahakomeza aza kugera ahantu hari utudundi.

Umuhanda wa kaburimbo w'umukara uragendwamo na mapikipiki ahetse abagenzi bose bambaye ingofero irinda ababa bicaye ku ipikipiki ingofero zisa n'umutuku zifite n'kirahure bari mu isangano ry'umuhanda.

Umuyobozi w'ipikipiki wambaye ingofero y'ubwirinzi ,yambarwa n'abatwaye ipikipiki isa n'umuhondo, aragendera mu muhanda wa kaburimbo y'umukara, iciyemo imirongo, iruhande rwe inyuma haragendera imodoka yicarwamo n'abantu bane isa n'umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo ufite igice cyagenewe guparikwamo n'amamodoka agahe gato igihe akuramo abantu cyangwa se igihe ashyiramo abandi. Iki gice gishobora no kwifashishwa igihe imodoka igize akabazo gatoya bakaba bari kuyikora.

Umuhanda wa kaburimbo y'umukara ufite imirongo ihubanya mugari bwaho isa n'umweru iri kwambukirwa n'umunyamaguru imodoka igezeyo irahagarara.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo ibice bibiri ni ukuvuga igice cy'abazamuka ndetse n'igice cy'abamanuka, iyi mihanda yubatse gutya yorohereza imodoka ndetse n'ibindi binyabiziga birimo amapikipiki kugenda nta muvundo kuvuga izijya mu cyerekezo kimwe ziba zisanzuye.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo uciyemo uturongo ducagaguye, hari nk'igice giteyemo ubusitani bushinzemo ifoto iba iriho amatara yo ku muhanda, iyo poto iriho n'icyapa, iki gice cy'umuhanda kiri iruhande rw'ipoto, ni igice kigendwamo n'imodoka zimanuka gusa.

Umuhanda wa kaburimbo usa n'umukara, impande yawo ufite akayira kanyurwamo n'abantu bagendesha amaguru. Umuhanda kandi ufite n'igice kirimo imirongo y'umweru iciyemo mu butambike cyagenewe kwambukirwamo n'abanyamaguru.

Umugabo uhagaze ahantu haciye imirongo y'umweru, mu muhanda wa kaburimbo, hagenewe kwambukwa n'abanyamaguru. Iki gice iyo umuyobozi w'ikinyabiziga ahageze, aritonda cyane akabanza akareka abanyamaguru bakambuka.

Umuhanda wa kaburimbo isa n'umukara, iragendwamo n'imodoka y'umukara nto igendwamo n'abantu bane. Inyuma yayo hari indi modoka nayo nto igendwamo n'abantu bane ziri kugenda zose mu muhanda.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo ahari isangano ni uvuga hahuriye imihanda myinshi hari kuzamukamo imodoka yo mu ruganda rwa dayihatsu inyuma yayo hari amapikipiki iri kuzamuka mu muhanda uhura n'undi uzamuka uri kugendwamo n'imodoka zindi.

Umuhanda wa kaburimbo, mugari, uciyemo imirongo y'umuhondo, uragenderwamo n'imodoka itwara utuzigo duto, isa n'umweru, inyuma yayo hari umunyonzi.

Igice cy'inzira nyabagendwa kirimo imirongo y'umweru iciye igabanyije umuhanda mu bugari bwawo cyagenewe kwambukirwamo n'abanyamaguru, iki gice umuyobozi w'ikinyabiziga iyo ahageze aritonda cyane kuko aba agomba gutanga umwanya ugenda n'amaguru akambuka.

Umuhanda wa kaburimbo isa n'umukara iciyemo umurongo w'umuhondo uhagaze ucagaguye, irikugendwamo n'ikimodoka cy'igikamyo gifite igice cy'inyuma gihehekwamo imiziga.

Agace kagenewe guparikwamo n'ibinyabiziga haparitsemo igikamyo gisa n'umutuku gifite ibintu gihetse mu gice cyacyo cy'inyuma kimeze nk'igisanduku gifunguye hejuru, inyuma yaho haragendwa n'ipikipiki ihetse umugenzi.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo iruhande rwawo hashinze igiti cy'ipoto hari kandi n'agakuta gato gakinga aho amazi amanukira gakozwe n'amatafari y'urugarika, hirya yaho hateye ibiti.

Akazu gafite intebe ndetse kanatwikiriye ariko gafunguye imbere gasa n'ubururu gateye impande y'ahagendwa n'abanyamaguru ndetse imbere y'aho hari ahaparika imodoka aka gace kicarwamo n'abagenzi igihe bategereje imodoka.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo uri kugendwamo n'ipikipiki, imbere yaho hari igikamyo gisa n'umutuku kiri gukata kuri sitasiyo itangirwamo amalisansi ndetse n'amavuta.

Umuhanda wa kaburimbo ufatanye n'undi ukatira iburyo n'ikoni; ahangaha iyo umuyobozi w'ikinyabiziga ahageze aba afite kwitonda cyane; kuko ashobora gukatana umuvuduko agahita akora impanuka.